Ni mu cyumba kimwe kirimo abantu batandukanye, harimo abagabo, harimo abagore, imbere yabo hagiye hateretse icupa ry'amazi ndetse na mudasobwa, bigaragara ko abagabo n'abagore bari mu nama.

Aha urabona ko ari mu cyumba cy'inama urabona umodamu, abagabo harimo abambaye amakoti, hirya urahabona umuntu wambaye umupira w'umweru usa naho ari gufotora witegereje neza urabona ko rwose abantu baje mu nama bafite icyo baje kuganiraho.

Urabona ko ari mu cyumba cy'inama bigaragara ko ar'icyo bari kuganiriramo, umugabo uri kuvuga yambaye iby'umukara ingofero ye irimo efu yanditseho ngo efuperi, bigaragara ko imbere ye hariho ku ruhimbi handitseho ngo inteko rusange y'umuryango efuperi inkotanyi, bigaragara ko ari umuryango efuperi uganira.

Abantu bicaye mucyumba k'inama urabona ko bishimye cyane kandi bose bategeye amatwi umuntu ubari imbere. Imbere yabo ku tumeza hateretse ibyo kunywa by'amoko agiye atandukanye.

Urabona abantu benshi cyane, abo abantu harimo abari mu kigango ndetse n'abari hanze y'ikigango bakizengurutse, hari abahagaze hari abicaye, urebye hagati mu bantu harimo umudamu, uwo mudamu ufashe mikoro y'umutuku asa naho ari kuvuga ijambo cyangwa se ari kugeza ijambo ku bamu bamuteze amatwi.

Abantu bicaye harimo uwambaye ingofero uwambaye agapira k'umweru, n'undi uri gufotoza telefoni biragaragara ko bari mu nama. Ukurikije ahantu bicaye intebe imbere yaho hariho utumeza, utumeza hagiye hateretse amazi na za telefone z'abo bantu biragaragara ko bari mu nama.

Abantu benshi bahagaze, bigaragara ko bishimye kuko bari gukoma amashyi. Urebye neza hari izuba ryinshi, kuko hari abantu bitwikiriye imitaka, hirya yabo hari imodoka nziza y'umukara. Urebye neza biragaragara ko aba bantu ari inama bari bajemo.

Umukobwa wambaye bya kinyarwanda, uwo mukobwa bigaragara ko ari mu bukwe. Yambaye agakoma mu ijosi k'umweru yambaye akandi k'umukara ku kuboko ndetse inzara ze zisize amarangi. Umukobwa arishimye bigaragara ko ari kuririmba.

Ni mu cyumba kirimo abantu benshi, abahagaze n'abicaye, muri bo harimo ababyinnyi gakondo b'abakobwa batatu, bari kubyina amaboko y'abayazunguza bayajyana impande n'impande, bose bambaye imikufi mu ijosi y'amasaro y'umweru.

Ni ababyinnyi, ababyinnyi babyina bya kinyarwanda umuco wa kinyarwanda urabona ko bari mu cyumba cyiganjemo amabara y'umweru, urabona ko hari abagabo batatu bari kubareba bigaragara ko bishimiye aba babyinnyi cyane, bambaye amasaro y'umweru mu majosi kandi bambaye udutambaro tw'umweru mu mutwe bigaragara ko bari kubyina amaraba.

Icyuma cy'umuco icyo cyuma bigaragara ko ari icyuma cya kera cyane urabona ko hari ikintu bakwikiraga muri icyo cyuma, icyuma rero biragaragara ko cyangwa se kiragaragaza umuco niyo mpamvu ubona ko gifite nk'ikintu uburyo gisobekeranyemo ubuhanga.

Inka y'inyambo, iyo nka isa nkiyariye neza ifite amahembe ahuye mu ruhanga kandi ifitemo ibara ry'umweru yambaye iherena kandi n'inka nziza kandi ihagaze mu ifamu hirya hari umusozi.

Ibyansi byiza bifite isuku kandi bisa impande zose, ibikoresho byakoreshwaga mu muco, mu muco nyarwanda aho babikoreshaga mu kubinyweramo amata.

Inka z'inyambo, ni inka zifite amahembe maremare cyane, ndetse izi nka zose zirasa. Urebye neza hari inka bambitse ikintu kimeze nk'urugori, hari n'indi yambaye kandi ikimeze nk'umukufi mu ijosi kirekire cyane, bigaragaza ko izi ari inka z'umuco.

Turabona itsinda ry'ababyinnyi . Iryo tsinda ry'ababyinnyi ni abasore. Abasore buri wese mu kiganza cy'iburyo afashemo icumu. Bigaragara ko bari kubyina ariko bitakuma bakoresha amacumu banivuga.

Abasore babiri beza biyogoshishe neza, ubwanwa buracunze, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, bambaye isaha, bafite udukoni dufite amubara ameze nk'ayimparage bisa nk'aho ari abasore baje gusaba umugeni.

Abakobwa b'abyinnyi bigaragara ko bari kubyina amaraba kuko amaboko yabo abenshi ari hejuru. Iruhande rwabo ndahabona ukuboko gufashe icumu, hirya yabo hari ibijerekani, hirya biragaragara ko hahinze urutoki.

Ni mu mbuga nziza cyane, iyo mbuga iteretsemo ingoma enye, izo ngoma biragaragara ni ingoma za kinyarwanda cyangwa se ingoma z'umuco, bigaragara ko ari ingoma zakoreshwaga mu muco nyarwanda kera n'ubu zikaba ari ikirango cy'umuco.

Ababyinnyi gakondo bari mu cyumba cyiza gitatse neza hejuru harimo cyane cyane ibitako by'umuhondo, urabona ko bambaye utuntu tw'umweru mu mutwe amaboko yabo ari hejuru. Bambaye imishanana bigaragara ko bari kubyina amaraba.

ababyinnyi gakondo bari kubyina amaboko bayashyira bayiterera hejuru bayashyira mu mpande ,hirya yabo harirumu umugabo uhagaze yambaye igishati cy'umweru kirekire kirimo amabara y'umukara, abo bose ababyinnyi n'uwo musaza bahagaze imbere y'kigango bigaragara ko bari kubyina kubyinira abageni.

Umudozi ukora inkweto bigaragara ko hari igishushanyo cyiza cy'inkweto gisongoye ashaka gukora, uwo mukozi yambaye isengeri y'umweru mu nda kandi yambaye n'itaburiya y'ubururu, iruhande rwe hariyo ibindi byuma n'izindi nkweto yakoze, ibyo byuma bijyanye n'ubudozi.

Turabona umugabo uri hejuru cyane ku ipoto aho insinga zihurira. Biragaragara ko yagiye guhuza insinga cyangwa se gukanika ibintu bishobora kuba byapfuye hejuru kuri ziriya kashi pawa zo hejuru. Biragaragara ko uyu muntu akora mu bijyanye n'amashanyarazi.

Abagabo n'abagore bari gukurura urutsinga rw'amashanyarazi barwerekeza ku ipoto, bambaye imyenda y'umweru bose bambaye udupira tw'umweru harimo n'abambaye utw'umukara, mu bigaragara uru rutsinga nu ukugira ngo barushyire hejuru ku ipoto, hanyuma ruzanyuzwemo amashanyarazi.

N'amafoto atatu y'amashanyarazi, uko bigaragara ayo mapoto agiye afatiyeho insinga nyinshi cyane bigaragara ko, yohereza ahantu i hatandukanye amashanyarazi. Urebye neza kuri ayo mapoto hasi, hirya hari indi poto ya kane iri gutunguka. Amapoto ateye mu byatsi bwiza, hejuru ikirere kirasa neza, ibicu by'umweru ndetse ikirere gisa ubururu.

Umukanishi bigaragara ko ari gukanika iki afite akantu mu ntoki, kameze nk'isaha, asa nkaho ari kujombamo, imbere ye, hariho akantu kameze nk'aka buwate karimo insinga mabara atandukanye, harimo iz'umukara, iz'umutuku, iz'umuhondo, bigaragara ko ari gukanika.

Ni mu cyaro kimwe harimo amazu atandukanye, hari amazu ateye irangi ry'ubururu, hari amazute irangi ry'umweru, urabona imbere y'ayo mazu hari umutaka wa MTN, harimo umuntu uwicayemo.

Turabona umugabo uri ku rwego afashe insinga z'amashanyarazi, bigaragara nk'aho agiye kwesitara inzu itariyuzura kuko urabona ko iyo nzu idakinze, iruhande rw'iyo nzu hari urutoki ruhinze biragaragara ko ari umuntu uri kubaka inzu ari kuyishyira kuyishyirishamo amashanyarazi kugira ngo ayimukiremo.

Amazu meza ayo mazu bigaragara ko yubatse ari umudugudu kuko ayo mazu arasa yose. Imbere yaho hari insinga z'amashanyarazi zigiye zinyuranyemo ndetse bigaragara ko hari n'umugezi imbere y'ayo mazu.

Abantu abantu babiri bambaye imyenda isa n'iy'abantu bakora muri elegitirisite bambaye ingofero z'umuhondo basa nkaho bari mu ruganda, hari uruganda rwiganjemo amabara cyane y'ubururu harimo n'ay'umuhondo harimo n'andi mabara atandukanye.

Igiti kirekire cyane icyo giti bigaragara ko ari ipoto hariho umuntu uri kucyurira yambaye ibikweto binini cyane yambaye ingofero y'umuhondo, urebye neza hejuru urabona urusinga rw'amashanyarazi rutambitse. Witegereje mu kirere kirasa neza kiganjemo ubururu n'ibicu by'umweru.

Ni abakanishi b'amashanyarazi, urabona bari hejuru cyane bisa nkaho bari kubaka umunara cyangwa se hari insinga bari kongera mu munara. Benshi bambaye imyenda y'umukara n'ingofero z'ubururu. Urabibona neza ko harimo abicaye, harimo n'abahagaze bari gufashanya.

Amapoto y'amashanyarazi bigaragara ko ariho amapoto menshi ahuriye, kuri ayo mapotomosi hagaragara ko ari ahantu hasa n'ahahinze ndetse h'ibibaya kuko nta misozi igaragara ku ruhande kandi hari ikirere cyiza kirimo ibicu by'umweru.

Ni inyubako y'ubururu, inyubako iteye amarangi y'ubururu, amabati ni ubururu, inzugi ni umweru n'amadirishya ni umweru, uko bigaragara amarangi yayo biragaragara ko ni inyubako ya leta ariko isa n'aho iri ahantu hakurikiranirwa ubuzima.

Gicumbi gicumbi kuruhande rw'iburyo hejuru hariho idarapo ry'u rwanda kuruhande hari ikimenyetso nubundi cy'igihugu ni akarere ka Nyagatare, umurenge wa Gatunda, akagari ka Nyamirenge, umudugudu wa kajevuba, urabona ko ari gicumbi kiriho indangagaciro na kirazira.

Ibiro by'umurenge hejuru handitseho ngo ibiro by'umurenge wa Musheri bigaragara ko aha ngaha ari mu karere ka Nyagatare, inyuma y'uwo murenge hari ibiti birebire bigaragara ko ari ibiti by'inurusu byakuze neza. ku murenge hariho ikanari.

Urebeye kure urabona ahantu hameze nk'aho ari udusozi tubiri, munsi yutwo dusozi hari umuhanda mwiza ukikijwe n'amazu meza cyane. Bigaragara ko ni inyubako za Leta cyangwa se ni amazu ya Leta yubatse aho hantu. Muri uwo muhanda urabonamo imodoka n'urujya n'uruza rw'abantu.

Ikiraro cyubatse neza, munsi y'icyo kiraro haranyuramo amazi atemba, hirya y'icyo kiraro hari ibiti birebire byiza.

Inyubako ya leta, ubona ko yiganjemo amabara cyane cyane y'ubururu. Hari umudamu uvuyeyo bigaragara ko avuye muri iyo nyubako. Urebye neza kuri iyo nyubako imbere hari kandagirukarabe. Kandi kuri iyo nyubako hejuru handitseho amagambo avuga ngo: ''Gira ubuzima''. Ni ahantu inyubako bita ku buzima bw'abantu.

Inzu isakajwe amabati y'ubururu, ikinguye umuryango umwe, hejuru y'umuryango ku gatwe k'imbere handitse ibiro by'Umurenge wa Karangazi, izengurutswe n'ibiti ku ruhande rwayo iburyo hari umuntu.

Inzu bigaragara ko ari inzu isirimutse iteye amarangi y'umukara, icyatsi n'umweru, iyo nzu ifite akantu gatambitsemo hagati, hejuru y'inzugi n'madirishya, k'umutuku hirya yayo hari umunara muremure cyane.

Ndahabona icyapa cyerekana ngo Nyagatare disitirigiti bigaragara ko aha ari mu karere ka Nyagatare, icyo cyapa imbere yaho bigaragara ko hari amashuri ndetse iruhande rwayo hari ibiti birebire cyane bigaragara nk'aho ari ibiti by'ubusitani byiza.

Umuhanda munini iruhande rw'umuhanda hari inyubako nziza zisakaje amabati y'ubururu, umuhanda ufite indi mihanda iwushamikiyeho, hariho umuhanda werekeje kuri izo nyubako.

Umuhanda w'ibitaka bigaragara ko imvura yaguyemo urawangiriza cyane kuko harimo ibyondo ndetse n'amazi ku ruhande, hari ibinyabiziga harimo moto biri kugenda bigaragara ko byabuze uko bihanyura bitewe n'ibyondo bihari.

Inyubako itekakara abasasa kinsha inzugi zijya gusa n'umukara, iteye irangi ry'umweru hejuru ndetse hejuru ifiteho n'agatwe, Kanditseho ngo ibiro by'Akagari ka Kembogo.

Ahantu hameze nkaho hakurikiranirwa ubuzima bw'abantu, kuko hari igishushanyo kiriho abana babiri na mama wabo na papa wabo, handitseho ngo ''gira ubuzima health post mahoro'' bigaragara ko ari ahantu bita ku buzima.

Ni inzu nziza, iyo nzu hasi iteye irangi ry'umukara, hasi urabona ko ikorotereye na sima, hejuru iteye irangi ry'umuhondo, isakaje amabati y'ubururu , handitseho ngo butcher Mimuli mu magambo y'icyatsi, bisobanuye ko ari ahantu bacururiza inyama, muri Mimuli ni mu karere ka Nyagatare.

Aha urabona ko ni ikiro cyiza cyane, icyo kiraro kiriho ibyuma by'icyatsi, urabona ko abantu bari kugenda hejuru, harimo abambaye ingofero z'umuhondo n'abandi bantu batandukanye, baragaragara ko n'igikorwa cyangwa se n'ikiraro cyubatswe ku nkunga ya leta.

Urabona umuhanda wa kaburimbo mwiza, usa naho wasoje kubaka, iruhande rw'umuhanda hari kugendera abantu, harimo uwambaye imyenda y'umukara .Hakurya biragaragara ko uwo muhanda ujya ahantu mu mujyi cyane, urahabona iminara, urabona amazu ya matage agerekeranyije.

Ni abantu benshi bari mu muhanda, urabona ko abo bantu imbere yabo hari imodoka ya kwasiteri, hirya hari izindi nyubako zitandukanye, hakurya y'izo nyubako biragaragara ko ahangaha ari inyubako za leta kuko urabona ho n'amashyamba inyuma y'izo nyubako za leta, urabona ko hari abantu benshi.

Ikiraro cyambukiranya ahantu hameze nk'igishanga ,aho kirangiriye gikikijwe n'ishyamba ,aho gitangiriye hari ibara ry'ubururu n'iry'umuhondo riri guhinguka iburyo n'ibumoso , gifite ahantu ho kugenda umuntu afata kugira ngo atagwa hasi

Umugabo utwaye igare, iryo gare rifite ibirahure bibiri, rifite agacupa k'amazi hagati mu ruhande rwo hagati, ku ruhande hari umuhanda ukikijwe n'ibyuma, hakurya hari amazu ari mu biti.

Inyubako nziza zifite amabati y'umutuku, ziteye amarangi y'umweru ku nzugi no ku madirishya, hejuru urabona insinga z'amashanyarazi, izo nyubako zose zirasa bigaragara ko ari umudugudu.

Aha urabona inyubako zimeze nk'aho ari iza leta, urabona imihanda, izindi nyubako zisakaje amabati y'icyatsi, urabona imihanda ya kaburimbo, nitari iya kaburimbo igiye inyuranyuranyemo, bigaragara ko imihanda cg se ari ibikorwa remezo bya leta.

Ni inyubako ya Leta, imbere y'inyubako hari abantu bicaye, hari abahagaze. Iyo nzu isakaje amabati y'ubururu ndetse nayo ubwayo ni ubururu. Hari amagambo ayanditseho ariko uko bigaragara, biragaragara nk'aho iyi nzu ari ahantu bita ku buzima bw'abantu.

Umuntu wambaye agapira k'umweru karimo umukara kandi yambaye ingofero y'umukara afashe mikoro imbere n'ubururu nyuma umukara yanditse agapira idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda kanditseho aradifu umuntu bisa naho imbere.

Biragaragara ko ari ahantu ku kigo cy'amashuri urabona abagabo batatu bahagaze imbere y'abantu bigaragara ko ariko bari kuvuga ku bintu byerekeranye n'uburenganzira bwa muntu ndetse n'ubutabera bw'abaturage bigaragara ko bari kugira abantu inama yo gusigasira uburenganzira bwabo.

Abantu bameze nkaho bari mu nama harimo umudaso, harimo abambaye amakoti, harimo bambaye amashati y'umweru, harimo ufashe mudasobwa bigaragara ko hari ikintu bari kuganiraraho.

Imbere y'amazu ameze nk'ikigo cy'amashuri, hahagaze abantu harimo abagabo n'abagore, bahagaze munsi y'ibiti, bayobowe n'umugabo wambaye inkweto z'umukara n'ipantaro y'umukara.

Umudamu wambaye ibitenge harimo icyatsi n'umuhondo, yambaye akagofero gafite umukaba w'umukara ndetse n'umuhondo, harimo n'utundi tubara tw'umutuku arahagaze hirya hari umugabo wambaye ishati y'ubururu uhagaze, abandi bantu baricaye.

Ni umusaza ushaje cyane afashe mikoro ari kuvuga. Bisa nkaho yarenganyijwe, akaba ashaka ubutabera cyangwa se akaba ari gushaka ubutabera kugira ngo hubahirizwe uburenganzira bwa muntu. Uburenganzira bwa muntu bugaruke mu buryo.

Inzu y'amatafari ahiye isakaje amabati y'ubururu; ifite imiryango ibiri n'amadirishya abiri, umuryango umwe ukikijwe n'abagabo babiri, n'umukobwa n'umugabo, umugabo yambaye ingofero, umukobwa asutse imisatsi yambaye agapira kajya gusa umuhondo.

Abantu bahagaze harimo umusirikare, harimo polisi ndetse n'abandi bane batari abasirikare batari n'abapolisi, aba bantu bigaragara ko bahagaze imbere y'abandi bantu hari ubutumwa bari kubagendera cyangwa se bameze nk'abari kubaha ibihembo.

Abantu bambaye amakoti, harimo amakoti meza, harimo bambaye amakaruvati, urabona umuntu uhagaze ariko uko biri kose, bisa n'aho bari kuganira ku byerekeranye n'umutekano n'uburenganzira bwa muntu kuko urabona ko harimo abantu bameze nk'aho ari abapolisi.

Aha ibiti, ibyo biti by'icyatsi birebire cyane, ibyo biti ndabona harimo uturabyo tw'umuhondo, hirya y'ibyo biti hari ikirere cyiza cyane cy'umweru bigaragara ko aho hantu ari ahantu heza, hari icyapa cy'umutuku ndetse icyo cyapa kiriho igishushanyo cy'umuntu.

Abantu bari mu kibuga kinini, urabona hari kwinjiramo moto n'abandi bantu batandukanye, urebye neza hari irembo ryanditseho ko ari gare ya Nyagatare, aho ibinyabiziga biparika cyangwa se ibinyabiziga biruhukira iyo bivuye ahantu hatandukanye.

Urabona ahantu hasa naho hegereye umuhanda, uko iyo urebye neza hari icyapa cyanditseho ngo: N136; bigaragaza ko hari icyapa kiri kwerekeza aho cyangwa se umuhanda ugezwe; bigaragara ko hakorerwa ubukerarugendo hari ibyatsi nubwoi byatsi bigaragara ko ari ibihingwa bihahingwa.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo moto iriho umuntu, uwo muntu yambaye kasike y'umutuku ndetse no mu mahembe afitemo indi kasike y'umutuku imbere ye, yambaye igipira kijya gusa n'umukara.

Umumotari ahetse icupa rya amazi mu mahembe, yambaye kasike iri gusa n'umutuku ari muri kaburimbo, inyuma ye hari amazu ateye amarangi y'umutuku hejuru, hariho amakaro y'umweru, umuhanda urimo abantu hari imodoka iparitse ku ruhande.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo, uwo muhanda ukikijwe n'ibiti, ndetse ukikijwe n'amazu. kuruhande urabona ko hari ibiti by'amoko atandukanye. Ndabona umuntu uri kugendera ku ruhande rw'umuhanda, ndetse hari n'icyapa cy'umutuku kirimo ikimenyetso cyandikishije amabara y'umukara.

Ni mu muhanda urimo ibitaka, ku ruhande hari icyapa cyanditseho E na N ijana makumyabiri n'umunani, imbere yacyo hari igipangu giteye umucanga igipangu kirimo inzu isakaje amabati y'umutuku ikikijwe n'ibiti.

Umusore wikoreye ikibuye kinini cyane icyo kibuye ni kinini ndetse bigaragara ko cyamunaniye agifatisha akaboko kamwe akandi kiteguye kwakira aka kabiri, yambaye agapira k'umutuku kandi ndi uwo musore arirabura cyane.

Iruhande rw'umuhanda hari ibiti byiza, hari n'ubusitani, muri ubwo busitani harimo abasirikare, aba dasso biragaragara ko bari mu masuku, bari gusukura bagabanya ibyatsi muri ubwo busitani.

Inzu iteye irangi ry'ubururu, imbere y'iyo nzu hari ib iti, munsi y'byoti hiciyemo abantu, hari abapolisi, harimo n'umusirikare, bisa n'aho bari kuganira ku mutekano no kuburyo bwo kurengera, ikiremwamuntu cyangwa se ni umutekano no gusigasira umutekano.

Abaturage aba baturage bigaragara ko bari kumwe n'abapolisi ndetse hari abantu bagiye bikorera amabuye, bigaragara ko abaturage bari mu muganda; imbere yabo hari inzu iyo nzu irakinguye iteka karabasasu imbere hari isombe ikikijwe n'ibigori.

Ibiti by'amoko atandukanye, ibiti ndabona harimo wagira ngo ni ibiti by'sombe n'ibiti by'avoka kandi urebye neza hakurya y'ibyo biti hari umusozi ugaragara ko uriho ibiti bisa naho bikuze.

Ndabona abantu bari kubaka inzu y'amatafari adahiye, iyo nzu ikikijwe n'ibimera byiza by'icyatsi biragaragara ko abantu bari mu muganda kuko ni benshi kandi baratandukanye, harimo bambaye ingofero, harimo abambaye amataburiya, harimo bambaye ibindi bitandukanye.

Abagabo, abagabo bicaye mu cyumba, inyuma yabo hari umuntu w'umukameramani bafashe yambaye agapira k'ubururu bigaragara ko ari afana ikipe ya manisiti, abo bagabo harimo uwambaye igisengeri cy'umukara kiriho umweru, harimo uwambaye ishati y'umweru bose bambaye amakoboyi.

Urabona inzu y'ubururu yanditseho amagambo yo mu mabara y'umweru; amadirishya yayo ni umukara, imbere hari igiti, musi y'igiti hicayemo abantu benshi; abantu harimo umusirikare n'abapolisi ndetse n'abandi bayobozi batandukanye; bigaragara ko bari kuganira ku kibazo cy'umutekano.

Abakinnyi b'umupira harimo bambaye ubururu abandi bambaye umutuku n'umukara, bose amasogisi bari gukina ballo y'ubururu n'umweru kandi hirya yabo hariyo abafana n'ibigo by'amashuri bigaragara ko ari abanyeshuri bari gukina.

Ndabona umukinnyi, umukinnyi wambaye imyenda y'ubururu, yambaye amasogisi y'umweru, ari inyuma ya baro bisa naho ashoreye baro, ahagaze mu kibuga inyuma y'ikibuga hari urukuta rufite amabara y'umuhondo.

Umuturirwa w'inzu nziza cyane, inzu yubatse neza cyane bigaragara ko ari ahantu mu mujyi, iruhande rw'iyo nzu hari umuhanda, uwo muhanda urimo abantu bari gukora siporo, bigaragara ko ari siporo rusange yabaturage.

Umugabo uhagaze mu kibuga, yambaye amataratara, imbere ye hari umudamu uri gukina baro, afashe terefone mu ntoki, yambaye agapira k'umutuku, umusatsi we ni natireri, yambaye ipantaro ijya gusa n'umukara, biragaragara ko bari mu kibuga cyangwa se ahantu hagiye kubera umupira.

Abakinnyi babiri bari mu kibuga harimo uwambaye agapira k'umutuku gashushanyijeho nimero icumi mu mugongo, afite imisatsi miremire imbere ye hahagaze undi wambaye imyenda ya siporo ariko y'umuhondo, bigaragara ko ari abakinnyi bari mu kibuga.

N'amakipe abiri bigaragara ko ari amakipe y'abakobwa, urebye neza urabona bambaye imyenda ijya gusa nu'ubururu, harimo abambaye imyenda y'umutuku, urebye neza ni umukino w'umupira w'amaguru abakobwa bari gukina kuko bari muri sitade.

Turabona urutonde rw'uko amakipe yatsindanye mu murenge kagame cup 2024-2025 mu bagore muri kimwe cy'umunani. Karangagazi yatsinzwe bitatu ku busa na mukama, mushi itsinda bitatu kuri bibiri, andi makipe arimo nyagatare yatsinze bine ku busa, tabagwe yatsinze kimwe ku busa n'andi uko yagiye atsindana.

Ndikubona abakinnyi, abakinnyi babiri umwe yambaye nimero gatatu bose bahagaze mu kibuga, undi yifashe mu mayunguyungu, bisa naho hari byari gutekereza byinshi mu kibuga cyiza kirimo ubwatsi bw'icyatsi busa neza hryamye umuntu.

Ndabona abagabo babiri bigaragara ko bari muri siporo, iyo siporroba ari ubwoko gukina umupira w'amaguru, urabona imbere yabo izamu, urabina bari kwitegereza cyane, bigaragara ko bari gukina n'abandi bakinnyi ahubwo bategereje ko baro ibageraho.

Ndabona igisenge gisakaje ibyuma, munsi y'iki gisenge hicaye abantu bigaragara ko ari muri sitade harimo abafana, ndabonamo abashinzwe umutekano ndetse munsi ndahabonamo abafana bagiye bicaye batandukanye, ndabona bimeze neza.

Umugabo wicaye imbere y'igikuta ubona yambaye imyenda ya siporo iruhande rwe hateretse ibi bag bibiri, hariho igifite hejuru gisa nk'umuhondo, urabona ko yicaye ku dutebe tw'ubururu kandi urabona ko uyu musore ari gusekamo ari kugaragaza amenyo.

Ndabona umusore muremure wambaye imyambaro y'abakinnyi bigaragara ko ari muri sitade, hirya ari kumwe na bagenzi be bigaragara ko bari muri sitade bari kwitoza umupira w'amaguru. Hirya yabo urahabona inzu isa naho ari iy'umuhondo ndetse wagirango ngo hari n'umunara.

Abakinnyi b'umupira bari gukinira mu kibuga k'itaka kitarimo ibyatsi, ku ruhande hariho abafana bari gufana, hariho igare ripatseho ibijerekani bine, hari undi mugabo uhagaze bigaragara ko na we ari kureba umupira.

Abakinnyi bambaye imyenda y'ubururu bigaragara ko bari mu myitozo, hakurya yabo hari igikuta kiriho utudirishya turiho utwuma tw'ubururu ndetse n'ibikuta by'umutuku, abakinnyi bari mu kibuga bigaragara ko bari mu kibuga hagati kuko ndikubonamo na balo.

Muri kaburimbo hagati harimo umugabo wambaye ipantaro y'umukara yambaye na siripa z'umutuku, afashe amverope mu ntoki yambaye igishati kirekire, yambaye agakomo k'umuhondo mu kuboko kw'iburyo, ari kureba inyuma yarangaye.

Ndabona umuhanda bigaragara ko ari uwo mu cyaro ariko ni uwa kaburimbo. Iruhande rw'umuhanda hari indabyo za jaride bigaragara ko n'ubwo ari uwo mu cyaro ariko uyu muhanda unyurwamo n'abantu basimuritse kuko bashyize jaride ku ruhande.

Ni mu masaha ya nimugoroba ni umuhanda wa kaburimbo. Urabona ko ku ruhande rw'umuhanda abantu bari kugenderamo. Bigaragara ko ni ahantu ho mu cyaro ariko urebye neza ntabwo ari mu cyaro cyane kuko urabona ko hari n'umuriro w'amashanyarazi. Urabona amatara imbere ari kwaka.

Umuhanda wa kaburimbo uwo muhanda ukikijwe n'ibiti turabona icyapa kiri ku ruhande rw'iburyo ,urebye neza urabona insinga z'amashanyarazi ,ndetse iruhande rw'umuhanda iburyo bwaho hagiye hariho amatara yo ku mihanda ,amurikira abantu iyo bibaye mu masaha ya n'ijoro.

Abantu babiri, harimo uwambaye ibibodaboda by'umuhondo, ipantaro y'ikigina n'agapira kanjya gusa n'umukara, wanduye cyane, abambaye akangofero n'ishati bijya gusa, yambaye ipantaro y'umukara na bote z'icyatsi, bari mu muhanda, hirya yabo hari umwana uri gusunika igare.

Iruhande rw'umuhanda ndahabona umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, inyuma ye hari abandi bantu, hari umwana ufashe akajerekani gato ka litiro wambaye agakanzu k'umuhondo, iruhande rwe hari umuntu ucuruza amayinite ya MTN yicaye ku ntebe y'ubururu.

Umuhanda w'igitaka, uwo muhanda bisa n'aho ugiye unyuze hagati mu mazu, ndabona inzu yubatse ya mugongo wa tembo y'amabati y'umutuku iteye umucanga ndetse ku ruhande hari andi mazu ndetse hariho na borodire.